Abagabo babiri bambaye ikositimu ndetse n'umugore umwe nawe wambaye ikote ryiza ry'umukara, umugabo umwe akaba yicaye ku ntebe z'umutuku, akaba ari abakozi b'ikigo cy'ubwishingizi.

Abantu benshi bari kuruhande rw'umuhanda, hari ubusitani bwiza inyuma yaho hari inyubako nziza igeretse, bakaba baje kureba isiganwa ry'amamodoka ari kugendera muri kaburimbo.

Ubwishingizi bwa sonarwa bukaba butanga ubwishingizi bw'imitungo yawe, harimo amazu ndetse n'ubutaka. Bugatanga ubwishingizi bw'ingendo waba ugiye ahantu kure, ndetse bakaba batanga n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga.

Radiyanti, ikigo cy'ubwishingizi, kikaba kibwira abantu iyo uramutse wibasiwe n'inkongi y'umuriro, ikigo cyagufasha neza, kandi bakabasha kukwishingira mu buryo bunoze.

Iduka riri mu nzu nziza yubatse neza isize amarangi y'umweru, ifite amatara amurika neza, bakaba bafite ibicuruzwa harimo iby'abana ndetse n'imyambaro n'inkweto, ku buryo ubishatse wese yarigana.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Inzu y'ubucuruzi icururizamo umugore akaba acuruza ibijyanye n'imideri harimo: imyambaro, n'udukomo, n'amasakoshi y'abagore.

Iduka ricururizwamo ibijyanye n'inkweto, hakaba harimo iz'uruhu, iz'abana ndetse n'inkweto wasohokana, ugiye ahantu aho ari ho hose cyangwa ugiye mu bukwe.

Iduka ryiza cyane ririmo imyenda myiza kandi inogeye ijisho, ikigaragara akaba higanjemo imyenda y'abagore ndetse n'abakobwa.

Iduka rigurishirizwamo imyenda hakaba harimo abakobwa babiri umwe yambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu undi yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ijipo ndende y'umweru .

Iduka ririmo imyenda itandukanye imanitse ku rukuta, hakaba harimo imipira y'abagabo ndetse n'iy'abagore, harimo n'indi yo kwifubika n'ingofero nyinshi zitandukanye n'ibikapu byo gutwaramo iyo mizigo.

Iduka ririmo umucuruzi ucuruza ibintu byiza kandi binogeye ijisho harimo amasaha, inkweto z'uruhu, amasakoshi, terefoni, mudasobwa ndetse n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga.

Iduka ricuruza imyenda imanitse hejuru mu kabati, hakaba harimo isa umutuku, umuhondo iroza ndetse n'ubururu buvanze n'andi mabara menshi.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

Iduka rya simara, aya akaba ari amasaha bakuriraho. N'iminsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, ndetse na terefone wabahamagaraho, uramutse ugize ikibazo icyo ari cyo cyose.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo imitako ikanacuruzwa, iyo mitako ikaba igaragaza cyane cyane muco nyarwanda, hanze hakaba hubakishijwe igikuta cy'amabuye gisa neza.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi miremire wambaye igitambaro mu mutwe cy'umukara n'ikanzu nziza akaba ari kureba ibicuruzwa bitandukanye biri mu iduka hakaba higanjemo amavuta yo kwisiga.

Iduka rikora ndetse rikanagurisha ibijyanye n'iby'abari n'abategarugori harimo amasakoshi, amavuta yo kwisiga, imikufi igiye itandukanye n'ibindi bitandukanye.

Iduka ricuruza imyenda y'abagabo, harimo amashati, imipira y'imbeho n'ibindi bitandukanye.

Iduka ryiza cyane ririmo imyenda myinshi igiye itandukanye hakaba harimo amashati, imipira yo kwifubika, udupira dutoya, amapantaro, ama kabutura ndetse n'ingofero.

Iduka risize amarangi y'umweru ifite ndetse n'amakaro harimo ibicuruzwa by'imyenda y'abagore higanjemo amakanzu ndetse n'imipira yo kwifubika.

Imodoka nziza cyane nshyashya iri kugurishwa, ku ruhande hakaba hari abagabo babiri ndetse n'umugore hagati yabo, bafashe urufunguzo rukozwe mu gipapuro kinini.

Abantu bagera kuri batanu harimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe, bambaye neza bari mu kigo gishinzwe ubucuruzi bw'imodoka za toyota.

Abagabo babiri, bose bambaye amashati ndetse n'amapantaro, bahagaze imbere y'ikamyo nini, isa umweru ndetse n'umukara, ikaba iri ku isoko, iri kugurishwa.

Abasore babiri mugabo umwe ndetse n'umukobwa umwe bafashe urufunguzo rukozwe mu gipapuro kinini, inyuma yabo hari imodoka n'inzu iri mu mumarange y'umuhondo kandi ifite n'amatara yaka neza.

Abasore babiri bahagaze imbere y'imodoka, umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, undi yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu akaba afite telefone mu ntoki.

Abantu batatu harimo ababikira babiri b'abazungu bambaye imyenda ya kaki, ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umweru, bakaba bahagaze imbere y'imodoka.

Abagabo babiri bahagaze ku ruhande rw'imodoka, umwe n' umwirabura undi n'umuzungu bafite agakapu gatoya k'umutuku ndetse n'urufunguzo rukoze mu gipapuro kinini.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti y'ibihumbi bibiri akorerwa muri banki nkuru y' u Rwanda hakaba hashushanyijeho imisozi myinshi izengurutswe n'ibiyaga bigari.

Amafaranga y'u Rwanda akorerwa muri Banki N kuru y'u Rwanda, akaba ahagaze agaciro ka magana atanu; akaba ari inoti igaragara imbere ndetse n'inyuma yaho.

Abantu bari guteranya amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, akaba ari amadorari ndetse bakaba bari kuyashyira mu mashini ishinzwe kubara amafaranga kugira ngo biborohere gukora akazi kabo.

Ahantu bagurishiriza amata, hari icyuma kiyayungurura ndetse n'utubido two kuyashyiramo. Hakaba hari umukiriya waje ngo bamuhe amata, bakaba bari kuyamusukira mu kabido bayayunguruye.

Uruganda rw'Inyange aho batunganyiriza amata higanjemo amabara y'ubururu n'umweru, hari n'abantu baje kubashakaho serivisi.

Ahantu bakirira abantu waba ushaka amafunguro cyangwa ibyo kunywa, hakaba hari abantu batatu, umukecuru, umugabo wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'umucuruzi.

Iduka ricuruzwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hakaba harimo umusaza wambaye amadarubindi ndetse n'umusore uri guseka, hakaba hateretse indobo zirimo amandazi ndetse n'imigati.

Icyumba kirimo amakaro ndetse kikaba gisize amarangi y'umweru, hakaba harimo ibyuma bibiri bishinzwe kuyungurura amata ku buryo umuturage wese uyaguze ajyana amata afite ubuziranenge.

Umusore wambaye ishati, wicaye ku ntebe, ufite akabido mu ntoki, akaba ari gusuka amata mu ijagi, ngo ayageze ku bakiriya.

Inzu ifite amakaro asa umweru, hirya har' imashini iyungurura amata ikayasukura ,kugira ngo abakiriya bayabone ar' amata afite ubuziranenge.

Ahantu bacururiza amata ndetse n'ibiribwa n'ibindi byo kunywa byinshi bitandukanye, hirya hakaba hari imashini ishinzwe gusukura ndetse no kuyungurura amata kugira ngo umukiriya uyafata ntagire ikibazo yamugirira ku buzima bwe.

Abantu bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza isa umukara ikaba iteretseho itasi irimo ifu akaba ari n'amasahani menshi, hariho ibiribwa ndetse n'umunyu.

Iduka ry'ikaze ricuruza amata y'inshyushyu ndetse n'ay'ikivuguto, bakaba bafite n'ibinyobwa bitandukanye harimo imitobe mbuto.

Iduka ricuruza ibikomoka ku mata rikaba rifite aho abantu bicara bafite imeza y'umweru n'intebe z'ikigina ikaba yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru hirya no hino.

Umugore uri mu iduka ritunganya ndetse rikanacuruza ibikomoka ku mata ndetse n'ifarine, inyuma ye hari ububiko bukonjesha ibinyobwa bufite ibara ry'umutuku.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye, ukaba guhitamo ibyo ushaka kuyoherezamo nka Malawi, Zambia, Tanzania, Rwanda, Uganda ndetse na Ethiopia.

U buryo bw'ikoranabuhanga aho ushobora kohereza amafaranga uyakuye kuri banki ukayashyira kuri telefone yawe bwite.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwikigo gishinzwe ikoranabuhanga gitanga serivisi zijyanye no kwishyura amafaranga y'ishuri, kwishyura ifatabuguzi rya televiziyo, imisoro ingendo z'indege ndetse no kwishyura amafaranga mu buryo bw' ikoranabuhanga.

Ikigo k'ikoranabuhanga cya eyateri gishikariza abantu kugura umuriro ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri kane akanyenyeri urwego hanyuma ukagurira umuriro kuri telefone.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bufasha umuntu kuba yakwishyura ifatabuguzi rya tereviziyo, imiriro, amafaranga y'ishuri, imisoro, ingendo, ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye.

Umusore umwe wambaye agapira k'ubururu kanditseho Rwanda n'undi wambaye ingofero y'umuhondo n'amadarubindi bari gukoresha telefone zabo bari kureberaho amakuru atandukanye.

Urupapuro nyemezabwishyu, rutangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, kigaragaza ko amashyirahamwe Gregoire yishyuye agera kuri mirongo itanu birindwi by'amafaranga y'u Rwanda, hejuru y'ibumoso akaba ari ikiranganteko cya repubulika y'u Rwanda.

Igipapuro nyemezabwishyu kigaragaza amafaranga ibihumbi mirongo itanu byishyuwe, hejuru ibumoso hakaba hari icyirangantego cya Repubulika y’U Rwanda, iburyo hakaba hari ikirango k'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro.

Ibiceri byinshi by'imiringa ndetse na zahabu byakorewe mu bushinwa biteretse ku note yanditseho ijana hashushanyijeho umugabo ufite imisatsi migufi.

Umuntu ufashe amafaranga mu ntoki zo mu bwoko bw'inote za magana abiri akaba afunze mu ibandana kandi afite amabara atandukanye.

Umuntu uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti zisa umweru, hashushanyijeho umugabo wambaye ingofero, kuruhande rwe hari inote z'ijana z'amadolari akoreshwa muri America ndetse n'ahandi hose ku isi.

Umuntu uri kubara amafaranga menshi hakaba harimo inoti ziganjemo iz'amadolari kuri izo noti hakaba hari umugabo ufite imisatsi miremire.

Umuntu ufite inote nyinshi zishushanyijeho umuntu w'umugabo wambaye amadarobindi zikaba zarakorewe mu gihugu cy'Ubuhinde.

Ibiro bivunjisha amafaranga, bakaba bayavunjira mu madorari akoreshwa muri Amerika, amayero akoreshwa i Burayi, amashiringi akoreshwa muri Kenya cyangwa Tanzania.

Ikigo gishinzwe ivunjisha ry'amafaranga kaba ryerekana aho ivunjisha ry'ama amafaranga rigeze k'isi yose uwaba ushaka kuvunjisha amafaranga yabagana.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga, umwe akaba afite inoti z'amayero y'ijana ndetse na mirongo itanu akoreshwa ku mugabane w'i Burayi ndetse undi akaba afite inoti z'ijana z'amadolari akoreshwa ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hose ku isi.

Umukandida wiyamamariza kuba perezida wa repubulika w'ishyaka rya green gurini pate Frank Habineza ari kwiyamamaza abanyamakuru bagenda bamufotora abamwungirije n'abamuherekeje bamugaragiye abaturage bitabiriye inyuma ya senyegi yaho ari bitabiriye baje kumva ibyo abagezaho.

Umuntu uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti z'igihumbi hakaba abashanyijeho umugabo wambaye ingofero, kuruhande akaba hari inoti z'ijana zikoreshwa muri Amerika ndetse n'ahandi hose ku isi.

Umuntu uri gutanga inote z'amadolari z' ijana zishushanyijeho umugabo ufite imisatsi akaba akeneye ko bazimuvunjiriza bakamuha amafaranga akeneye bitewe n'igihugu arimo.

Inzu ifite ibiro by'ivunjisha ry'amafaranga aha ukaba wahagana ukavunjisha amafaranga ugafata nk'anyarwanda ukayavunjishamo amadolari mu gihe ukeneye kujya hanze muri leta zunze ubumwe z'Amerika.

Abantu bane harimo abagabo babiri, umugore wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'umwana mutoya ufite ibisuko, bakaba bari kumushyikiriza igihembo kivuye kuri banki nkuru ya Malawi.

Mu nzu y'ubwiteganyirize mu kwivuza ya ara esi esibi hicayemo abantu benshi batandukanye, higanjemo abakozi b'iki kigo ndetse n'abaturage baje kwaka serivise.

Inyubako ndende igeretse hejuru hakaba hari iduka ricuruza imyenda harimo n'iyabana ndetse n'iyabagore hasi hakaba hari ibiro bikorerwamo ivunjisha ry'amafaranga .

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo n'ikigo kigura kikanagurisha amafaranga y'abanyamahanga yo mu bihugu bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi imbere hakaba hari inzu ifite icyapa kinini cyanditseho teganya kwizigamira kungukirwa na banki.

Intebe nziza ziteretse ahantu zifite imisego myiza zikaba ziri mabara y'icyatsi ndetse n'umukara, imbere yazo hakaba hari utumeza twiza natwo dusa umukara, hirya hari igipangu gikikijwe n'ibiti byinshi.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Inzu ifite amakaro harimo intebe zisa bururu n'imisego yazo, ku ruhande hari utumeza dutoya, n'igiti ku ruhande gifite amashami, hirya hakaba hari ikizimyamuriro kiri mu mabara y'umutuku.

Imbuga nini iteyemo ubusitani, hakaba hari intebe nyinshi ziri kumwe n'imeza bariraho, ku ruhande hakaba hari inzu ifite amadirishya ndetse ikaba isize n'amarangi y'umweru.

Hano turahabona intebe zo mu ruganiriro, aho uruganiriro rufite amabara menshi kandi hakaba ari ibara ry'umweru, intebe zo zikaba zifite ibara ry'ikigina, hirya yazo hari idirishya rifunguye.

Umuntu wirabura wambaye imyenda y'umweru ndetse n'ikigina, uri kubara amafaranga atandukanye, harimo inoti y'amadorari ijana isa umweru ndetse n'irindi bandari iri hasi.

Ahantu heza hatuje hari akayaga keza, hari ubusitani hakaba hari n'intebe umuntu yakwicaramo, akenewe nko gufata akayaga cyangwa kuruhura mu mutwe, kugira ngo amere neza.

Aho bakirira abantu muri hoteli, hari umunyamahanga waje ubagana uje kubasaba servisi, hakaba higanjemo ibikuta bifite amabara y'umweru, hariho n'ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame.

Inyubako igeretse yakirirwamo abaje gushaka amacumbi n'amafunguro, ikaba ifite amabara y'umweru n'umutuku, ikaba kandi inafite ubusitani bwiza aho bafite n'amazi, ababaganye bashobora kugeramo mu gihe cyo kuruhuka, hakaba hari n'intebe zo mu ruganiriro.

Inzu nziza isize amarangi y'umweru, ifite igikoni gifite aho bogereza ibyombo, ndetse n'icyuma bashyuhirizamo ibiryo, kuruhande hari uburiri bushashe neza bufite ikiringiti cy'umukara n'amashuka y'umweru.

Abagabo babiri bicaye mu biro umwe yambaye ishati y'umweru undi yambaye ishati irimo amabara atatu umutuku, umweru n'umukara, bakaba bari kuganira umwe ari gukoresha mudasobwa undi ari kunywa ikinyobwa.

Inzu igeretse iherereye Nyarutarama ikaba isize amarangi y'umweru, ikaba ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo ubwishingizi bwa purayimu ndetse n'ivunjisha ry'amafaranga.

Inzu igeretse y'ubucuruzi ikorerwamo na banki y'abaturage, inyange ubwishingizi bwa radiyanti, ikaba inakikijwe n'abaturage.

Inzu igeretse hasi hakaba hari isoko ricuruzwamo ibicuruzwa byinshi, ikaba iherereye i Remera muriyo nyubako hakaba hakoreramo na noteri akaba ari umunyamategeko ufasha abantu mu gihe baba bafite ibibazo bijyanye no kwandikisha ubutaka ndetse n'ibindi bijyanye n'amategeko y'igihugu.

Inyubako y'ubwishingizi bwa sanamu ifite inkuta z'umweru ziriho amafoto, ikagira imiryango y'ikigina, kandi na none ikaba ifite n'ibikoresho bifata amashusho.

Inguzanyo yihariye banki ya Kigali igezaho abaturage, ivuga y'uko wabona amafaranga angana inshuro ebyiri z'umushahara wawe mu masaha mirongo ine n'umunani.

Umugabo wambaye neza wambaye ikositimu y'ubururu ndetse n'ishati yumweru akaba ari kumwe n'umugore wambaye umupira wumukara hariho amagambo y'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru bakaba baje kubaririza amakuru.

Inzu nini irimo abantu benshi harimo abicaye n'abahagaze bakaba baje kugura amasambusa akoze mu birayi ndetse n'inyama hirya hari akameza gateretseho ibase y'ubururu.

Inzu nini cyane mu bugari, igeretse hasi hakaba haparitse imodoka nyinshi z'abakiriya ndetse n'abacuruzi, baje kugana mu isoko ririmo amaduka acuruza ibintu bitandukanye.

Isoko rinini cyane harimo amaduka atandukanye hakaba harimo abantu abakiriya ndetse n'abacuruzi muri aya modoka hakaba higanjemo hacuruza ibijyanye n'imitako, ibiseke ndetse n'udukapu n'ibindi byinshi.

Inzu nziza cyane igeretse iri mu mabara atandukanye umuhondo, umukara, ubururu, icyatsi kibisi, icyatsi cyijimye, hasi hari abantu benshi cyane baje kwaka serivise zigiye zitandukanye.

Ahantu hacururizwa imyenda ikorerwa mu Rwanda ndetse hakaba harimo n'amashusho menshi n'imitako ndetse n'ibiseke bikoreshwa ushaka inzu yawe isa neza.

Abagore bakuze bambaye ibitambaro mu mutwe bari gucururiza mu muhanda aho ibintu bafite harimo imineke, ibishyimbo n'udutebo turimo ibindi biribwa.

Isoko rya Nyabugogo ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hanze hari abantu benshi bari kugenda hakaba haparitse imodoka y'umukara ndetse n'ipikipiki itwara imizigo iremereye.

Abaturage benshi bari mu muhanda abari kugenda, aba gutega amapikipiki ndetse hakaba hari n'inzu ndende igeretse iri hirya y'umuhanda ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hasi yayo hakaba haparitse imodoka nyinshi.

Iduka riherereye mu isoko rikaba rifite ibicuruzwa byinshi harimo: imyenda, amakanzu, imitako, akaba arimo ibiseke, amaherena, ndetse n'ibindi bintu byinshi bya gakondo.

Abacuruzi batandukanye higanjemo abagore bari gucuruza ibiribwa, harimo karoti inyanya imiteja ndetse n'ibindi, abakiriya barimo babagana baje kugura.

Isoko aho abagura baza baje gushaka ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba hari n'imodoka zagenewe gutwara imizigo y'abamaze kugura.

Isoko ryiganjemo ibijyanye n'imitako bigaragaza umuco nyarwanda hakaba harimo n'abacuruzi n'abaguzi baje babagana.

Isoko rya nyabugogo riherereye mu karere ka Nyarugenge, hari imbuga nini irimo amahema menshi, haririmo abantu hakaba hari abadaso bambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero z'icyatsi ndetse abantu bari kwigendera bisanzwe.

Isoko ricururizwamo ibiribwa, hakaba arimo ibitunguru, ibishyimbo, inyama, ibitonore, amashaza ndetse hakaba harimo n'abantu benshi baje guhaha mu isoko.

Abantu babiri bahagaze bose bambaye amadarubindi, umwe yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye agapira k'umukara n'agasengeri mo imbere, ku meza hakaba hateritse isakoshi ndetse n'imfunguzo hamwe na mudasobwa.

Akazu gatoya kubakishijwe ibyuma, gasize amarangi y'umuhondo n'ibyapa byinshi n'amagambo ari mu ibara ry'umukara, kakaba gafite ibirango by'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda.

Umuntu ufite telefoni akaba ari gukanda imibare ari kubona imbere ye, ku gipapuro kiriho imibare ikaba ikoreshwa mu buryo bwo kwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Umukozi wa emutiyene w'umugabo arimo aratanga serivisi ku mukobwa waje umusanga, hirya ye hari inzu isakaje amategura y'umweru.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi miremire, yambaye amadarubindi, yambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'ipantaro y'ubururu. Inyuma ye hari icyapa cy'ibirango bya emutiyene.

Icyapa cy'umuhondo cyandikishijwe amagambo asa umukara, kikaba kiri kwerekana uburyo wakwishyura amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abantu benshi bateraniye ahantu bakaba bari munsi y'ihema riri mu mabara y'umuhondo, ha akaba ari ibirango by'ikigo cy'itumanaho. Abaturage bakaba baje kugira ngo babagezeho serivisi nziza z'iryo tumanaho n'uburyo rikoreshwa.

Umukobwa ufite imisatsi miremire ari guseka yambaye ishati y'umweru afite amakora asa umukara, ari mu kazu gatoya karangwa n'amabara y'umuhondo ndetse akaba ari rikora ubucuruzi bwi'bikoresho by'ikoranabuhanga.

Sitasiyo icuruza amavuta ya peteroli ndetse na lisansi, hirya hari moto iparitse n'umuntu uyihagaze ku ruhande, hejuru hari urupapuro rw'umuhondo rurimo imibare wandikamo iyo ushaka kwishyura amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abantu, babiri bahagaze ku tuzu, kamwe kafite ibirango bya emutiyeni akandi gafite eyatere bakaba bari kubwirwa serivisi zigiye zitandukanye z'ibigo bakorera by'ikoranabuhanga.

Ifishi iri ku rupapuro rw'umweru yanditse mu magambo y'umukara igaragaza ko imyirondoro yatanzwe ahakurikira ari iy'umukozi wizewe, imyirondoro harimo amazina aha agiye umukono, itariki n'icyemezo cyibyemeza.

Umugabo wambaye agapira k'umukara k'amaboko magufi, akaba yaje kwaga serivise mu kigo cy'ikoranabuhanga, uzimugenera akaba yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'amadarubindi. Afite telefone mu ntoki ndetse na mudasobwa imuteretse imbere.

Abantu benshi bari mu nyubako harimo abakozi bacuruza amafunguro ndetse n'ibyo kunywa hakaba hari n'umuntu uhagarariye emutiyene ari kumwe n'umukiriya ari ku mubwira serivisi zigiye zitandukanye za emutiyene n'akamaro zigufitiye .

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'umweru uhagaze ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, hirya ye hari moto itwaye umuzigo wanditseho vuba vuba akaba ari ikigo kigezaho abantu ibyo batumije mu buryo boroheye.

Urubuga rwo guhahiraho kuri interineti aho bacuruza imyenda yiganjemo iy'abagabo n'abagore n'amavuta yo kwisiga, kandi nanone bakaba bacuruza n'inkweto.

Inzu nziza isize amarangi y'umweru hakaba haparitse imodoka isa ubururu, inzu ikaba ifite iduka ricuruza imyenda yaba iy'abagore cyangwa abagabo.

Inzu iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, z'amafaranga y'u Rwanda ika ifite amabara meza y'umweru.

Inzu nziza ifite amatara meza isize amarangi y'umweru ikaba ifite igikoni ndetse n'amakaro, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite agaciro ka miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda.

Inzu isize amarangi y'umuhondo ifite amabati atukura, hasi hari amakaro ndetse n'urukuta ruyegereye na rwo rusize amarangi y'umuhondo, ikaba iherereye Kicukiro Kagarama mu mujyi wa kigali, ikaba ihagaze agaciro ka miliyoni ijana n'itanu z'amanyarwanda.

Inzu nini ikikijwe n'igikuta cy'amatafari, ikaba ifite intebe nyinshi n'imitako ndetse n'ibyumba bitanu byo kuraramo, iherereye Kibagabaga ihagaze agaciro k'ibihumbi magana abiri mirongo ine by'amadolari.

Inzu nziza nini iri mu rupangu rwubakishijwe amatafari rwiza kandi rugaragara neza, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ndetse ikaba ifite agaciro ka miliyoni ijana mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako nziza yiganjemo amabara y'umweru iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni ijana na cumi neshanu hano i Kigali.

Ikibanza kinini giherereye Kicukiro ahegereye akarere ka Kicukiro kikaba gifite ubuso bwa metero igihumbi na magana arindwi ifite agaciro ka miliyoni maganatatu n'eshanu z'amafaranga y'amanyarwanda.

Abantu babiri harimo umuzungu ndetse n'undi wirabura, inyuma yabo hari ubusitani hari ibiti byiza inzu nziza, ndetse hari n'ubwogero busa neza.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali ifite amarangi y'umweru n'itara ryiza cyane, n'amakaro anogeye ijisho imiryango ni umukara ikaba, ihagaze agaciro ka miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Inzu yo guturamo isize amarangi y'umweru amabati y'umukara ikikijwe n'urugo rwubakishijwe amatafari, ikaba iherereye mu mujyi wa kigali ndetse ikaba ifite agaciro ka miyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu nziza isize amarange y'umweru mu imbere hasa neza, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali umurenge wa Remera uyishaka akaba yakwishyura amafaranga agera ku bihumbi maganatandatu ku kwezi, ikaba ifite kandi n'ibyumba bibiri.

Inzu igeretse ifite amabara y'ikigina, ikagira n'amadirishya, ikagira no mu gikari hisanzuye ikaba ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri, ikaba inafite uruzitiro rw'amatafari, ikaba inakodeshwa.

Inzu iherereye i Kanombe mu mugi wa Kigali ikaba ifite amadirishya meza, si ubururu ndetse n'amarangi meza ikaba ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu kabaye ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu z'amanyarwanda ku kwezi.

Ikigo gifite serivise zitandukanye, hakaba harimo ingendo hagati mu bihugu ndetse kikaba kinagurisha amamodoka, amazu, ibibanza ndetse n'ibindi bikoresho.

Inzu igeretse ndende, ifite ubusitani burimo n'ibiti byiza, iherereye kimihurura, ikaba ikodeshwa amadolari agera kuri magana arindwi.

Hari aho bogereza ibyombo n'utubati tubikwamo ibikoresho, hakaba hari n'umuryango usohoka hanze, ino nzu ikaba iherereye i Remera, ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Inzu isize amarangi y'umukara ifite amabati atukura iri mu mbuga nini irimo ubusitani ndetse n'ibiti byinshi biteyemo, ikaba ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, ikaba iherereye Kagarama ndetse inakodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu iri mu gipangu, ikaba isizi amarange y'ubururu ndetse n'umweru, ikaba ifite ibiti biteye mu mavaze, byegereye urugi, ikaba ifite urupangu rwubakishijwe amatafari, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi.

Inzu nziza iri mu mbuga nini, isize amarangi y'umweru, ikaba ifite amabati y'umutuku. Ifite ubusitani buteyemo ibiti byinshi, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali umurenge wa Kimironko.

Inyubako igeretse iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru ifite imiryango y'umukara ikaba ikorerwamo imirimo ijyanye n'ubucuruzi bugiye butandukanye .

Isoko rinini hakaba harimo abacuruzi bafite ibicuruzwa bitandukanye by'imbuto, harimo imyembe, amatunda n'inanasi ndetse n'ibindi.

Iduka ricuruza imyenda, hakaba hari imanitse hejuru no hakurya iriya, hakaba higanjemo amakositimu y'abagabo, ndetse harimo n'ay'abagore.

Iduka riri mu isoko ricuruza ibintu bitandukanye harimo amashusho yo gutaka mu rugo iwawe, ibikapu, amasakoshi ndetse n'inkweto z'abagore.

Isoko rinini ririmo abacuruzi batandukanye, aha hakaba harimo amasoko imikandara, inkweto, ndetse hakaba hari n'abantu bari kureba ibyo bicuruzwa.

Isoko rinini ririmo abacuruzi ndetse n'abakiriya, iri rikaba ari iduka ricuruza imyenda harimo amakanzu ndetse n'indi myenda y'abagabo, bakaba banafite n'amavuta yo kwisiga.

Isoko rinini cyane ryuzuyemo amaduka menshi, acuruza imyenda itandukanye. Abantu bakaba bari kuza bagana baje guhaha ibyo bifuza.

Inzu nini ifite amatara meza ndetse n'amakaro n'amarangi y'umweru, hakaba harimo abantu benshi bari kugenda, hano hakaba hari iduka ricuruza amatapi akoreshwa mu nzu mu buryo bwo gutaka inzu.

Iduka rinini cyane ririmo imyenda myinshi, amasakoshi, imikandara, inkweto z'abagabo zo kwambara hakaba harimo ndetse n'abaje kugura ibyo bikoresho byose.

Ejo heza ni uburyo wakwizigamira ahazaza ku buryo igihe icyo ari cyo cyose wa azakoresha ayo mafaranga waragiye mu za bukuru mu mirimo itandukanye yakugirira akamaro.

Umugore ufite imisatsi miremire amaherena, ikanzu ikozwe mu gitenge isaha ndetse n'impeta, inyuma ye hakaba ari amagambo agaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano ndetse n'ubuzima.

Abantu bateraniye ahantu mu cyumba gisize amarangi y'umweru, ku nkuta hariho ibipapuro bimanitseho byinshi, hakaba hari n'amarido, utubati, imeza ndetse n'intebe zicayeho abantu. Bakaba baje kuganira ku ngingo zateganyijwe.

Abagabo babiri bambaye amakote meza, ndetse bakaba bafashe igipapuro kinini kiriho ibihembo bitangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima ndetse n'umutekano.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiribwa byiganjemo imbuto, ndetse hakaba hamanitse n'ibiciro by'ibyo biribwa.

Iyi ni inzu y'ubwishingizi ahangaha uraza bakaguheza ubwishingizi. Ugashinganisha ibikorwa byawe, ugashinganisha amazu yawe, ugashinganisha umuryango wawe n'abana bawe.

Umukobwa mwiza ufite ibisuko wambaye umupira w'umutuku, akaba imbere ye hari mudasobwa, akaba ari kureba ibiciro by'ibicuruzwa.

Abantu benshi baje mu isoko bakaba baje guhaha ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Ahangaha bakaba bahagaze ku murongo aho bari kugana aho bishyurira

iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo inshuro ebyiri igizwe n'amabara y'umuhondo amadirishya ni umukara n'inzugi nuko ifite imbuga nini ushobora gukiniramo wowe nabawe mwishimana.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye biri mu tubati ;hakaba harimo amakaroni, ibirungo bakoresha bari guteka harimo imboga ndetse n'ibindi byinshi.

Iduka rifite akabati karimo ibicuruzwa bitandukanye hakaba higanjemo amakawa ndetse n'icyayi cyo mu bwoko butandukanye bitewe n'inganda zagiye zibikora.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hejuru hamanitse ibipirizo biri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, hari abantu bahagaze, harimo umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umukobwa ufite agapira k'umutuku uri gupanga ibicuruzwa mu mwanya wabugenewe.

Isoko rinini ririmo abantu benshi ndetse n'ibicuruzwa byinshi, aha hakaba hari umusore wambaye umupira w'umukara uteruye imashini, uri kuyishyira ahabugenewe kugira ngo badateze ikibazo icyo ari cyo cyose.